Umuntu wita ku murwayi wambaye agapfukamunwa wambaye n' imyenda y'abaganga, wegereye umurwayi, wambaye agapfukamunwa, ndetse n'umurwaza ku ruhande umufashe ku rutugu, na we wambaye agapfukamunwa, bari mu ivuriro bari kwita ku murwayi.

Itsinda ry'abantu ubona bashyize hamwe, bari gutera imboga mu karima k'igikoni, hakaba harimo abagabo n'abagore, bakaba bari gutera imboga wagira ngo ni dodo.

Umugabo ukorera umuryango mpuzamahanga wita ku buzima, ari kumwe n'umukobwa ku ruhande, wambaye umupira usa icyatsi, imbere yabo hari imfashanyo imeze nkaho bagiye gufasha abakene.

Umugabo ukuze ufite ibiryo mu ntoki bimeze nk'ibisuguti, afite inkoni hagati y'amaguru. Akurikiwe n'umwana w'umukobwa wambaye ijipo y'umutuku ufite ibisuguti mu ntoki, ari kumwe n'undi mwana w'umuhungu ku ruhande ufite akavudo k'amata ndetse n'igisuguti mu ntoki.

Umubyeyi ubona ukuze ufite umusatsi w'imvi, wambaye amarenga mu ijosi, wambaye n'isengeri, uryamye ku itapi arimo arakora imirimo ngororamubiri, yayikoreraga mu nzu.

Umwana n'umubyeyi bari gukina imikino y'amaboko mu kibuga, umwana akaba afite umupira mu ntoki na papa we akaba amuhagaze inyuma ashaka kumwaka umupira.

Uburyo umuntu ashobora kwirindamo indwara yandurira mu gakoko gatera virusi itera sida, malariya ndetse n'ubundi buryo bwose twakwifashisha mu kurwanya izindi ndwara bakanatwereka ibibazo agakoko gatera virusi itera sida, ingaruka zayo n'imibereho mibi y'abayirwaye.

Inyubako yita ku barwayi abenshi twita ibitaro, birimo ibyuma byinshi by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi, hakaba harimo ibitanda hakaba harimo n'izindi mashini zihita zifashishwa mu kuzana imyuka myiza mu nzu.

Inzu yifashishwa mu buvuzi irimo ibikoresho by'ubuvuzi, amamashini yita ku barwayi, ibitanda, amazi ndetse ku ruhande gato hakaba harimo n'udukoresho twifashisha mu kubaga abantu.

Ibitaro bivura amaso, hejuru hariho icyapa cyerekana ko bavura amaso, ibirahure bitabonerana, inzugi z'imbaho, inyubako ikaba yubakishijwe n'amatafari ndetse n'amabuye.

Ahantu bacururiza imiti ivura indwara, iyita ku bantu, hakaba hagaragaramo, mudasobwa intebe, ibirahure, utubati.

Umugore wambaye impuzankano y'abaganga, uhagaze mu bitaro, akikijwe n'ibitanda ndetse hakaba hagaragara nk'ahantu hita ku barwayi.

Mu nzu mo imbere harimo ibipirizo, intebe, igishushanyo cyerekana ko bita ku maso, hakabamo utubati, ibirahure, ibyuma byongera bikanagabanya ubushyuhe mu nzu, umuntu urigutambuka, ndetse n'irangi ry'umweru ni ryo ritatse inzu yose.

Abaganga batatu bari kwita ku murwayi, ku ruhande hari umurwaza, hari imashini yita murwayi, hari n'umuti wica udukoko bakaraba mu ntoki ndetse umuganga umwe ari no kwandika ku mpapuro.

Inzu iherereye i Remera icururizwamo imiti, ikaba iri mu igorofa ryo hasi, imbere yayo hakaba hari ibiti ku ruhande rwayo hakaba hari imodoka ikaba ari inyubako nziza.

Ivuriro ririmo ibikoresho byifashishwa mu gukonjesha, imashini zifashishwa mu kwita ku barwayi, ibitanda, ameza, utubati, ikaba inyubako yose isize irangi ry'umweru, ikaba irimo utwuma dufata imyenda, ibitanda birimo byose bishobora gucungwa bifite amapine.

Umukobwa uri kunywa amazi wambaye ishati y'umutuku ufite imisatsi y'umukara, ameze nk'umuntu uvuye muri siporo kandi akaba yambaye akuma kamufasha kumva indirimbo cyangwa ibindi biganiro.

Ikimera cyifashishwa mu gutunganya imiti gakondo, kikaba gifite ibibabi birambuye, kikaba gifite amashami umutwe wacyo ukaba waracitsemo kandi kikaba gitoshye.

Umuntu ufashe ibiti mu ntoki bya gakondo, akaba yambaye umupira usa icyatsi, akaba afite akantu kamuranga mu gatuza, akaba ahagaze ahantu wagira ngo ni mu imurikagurisha.